Abakozi bakorera ikigo cy'Igihugu cy'itumanaho MTN, bavuga ko aka kazi kabashije kubateza imbere buryo bugaragara, aho babasha kwikemurira ibibazo bitandukanye nko gutanga mituweli, kwishyurira amashuri y'abana ndetse n'ibindi.

Abakozi bakorera ikigo cy'igihugu cy'itumanaho MTN bavuga ko serivisi batanga zibahesha amafaranga abafasha gukemura ibibazo bigiye bitandukanye mu buzima bwabo bwa buri munsi.

Abacuruzi bakorera sosiyete y'itumanaho Airtel bavuga y'uko aka kazi kabo kabashimisha ndetse kakabaha n'amafaranga bifashisha mu gukemura ibibazo bitandukanye mu buzima bwabo bwa buri munsi.

Abakozi bakorera amasosiyete y'itumanaho atandukanye, harimo nka Airtel, ni bamwe mu bishimira akazi bakora kuko ngo bakuramo amafaranga abasha kubafasha mu buzima bwabo bwa buri munsi.

Nyuma y'ubufatanye bukomeye cyane amabanki ndetse n'amakoperative y'ubuhinzi agiranye, Leta y'u Rwanda Urwego rw'Igihugu rushinzwe iby'Ubuhinzi, rwageneye igikombe imwe muri aya makoperative.

Amabanki ndetse n'amakoperative ni ibigo bibiri bikorana bya hafi, Leta y'u Rwanda ishishikariza abibumbi mu matsinda kugana amabanki bakaka inguzanyo bagakora ubuhinzi bwa kijyambere dore ko ari nabwo butanga umusaruro utubutse.

Abaturage bakora ubuhinzi bw'umuceri bibumbiye hamwe biyubakira inzu bazajya bahunikamo umusaruro wabo, ibi bibafasha kwirinda akajagari ndetse bakarinda n'umusaruro wabo.

Amabanki arakangurira abaturage kwibumbira mu matsinda hanyuma bakaka inguzanyo bagakora ibibateza imbere, ibi bikazabafasha kujya bikemura ibibazo bitandukanye harimo nko kwitangira mituweli ndetse no kuriha amashuri y'abana babo.

Abahinzi bibumbiye mu makoperative ndetse n'abayobozi ba banki, ni bamwe mu bahuye bakaganira ku bufatanye bwabo ndetse bakiyemeza ko bagiye gukomeza gufatanya muri byose.

Banke ndetse na koperative ni ibigo bibiri bikorana bya hafi, amakoperative yaka inguzanyo mu mabanki maze yamara kwiteza imbere, agasubira kujya kuzigama.

Amakoperative y'abacuruzi b'imboga n'imbuto ni amwe mu yababashije kwiteza imbere dore ko bamwe mu bakorera muri iyo koperative bavuga ko amafaranga bakuramo, bayifashisha mu gukemura ibibazo bitandukanye byo mu buzima bwabo bwa buri munsi.

Amabanki ndetse n'amakoperative, ni ibigo bibiri bikorana bya hafi, kandi banki zikangura abishinze hamwe mu makoperative kubagana bakaka inguzanyo, mu rwego rwo gukora ubuhinzi bugezweho kandi bwa kijyambere, kuko ari bwo butanga umusaruro mwinshi kandi utubutse.

Abaturage bibumbiye mu makoperative y'ubuhinzi, nyuma yo kubona umusaruro buri wese yagiye afata ibikoresho ndetse n'ibyo kurya acyura mu rugo.

Ihuriro rya kabiri ry'abakozi bo mu buhinzi n'ubworozi ryaganirwaga ku bijyanye n'uburyo abahinzi n'aborozi bagiye kwiteza imbere bagana amabanki ndetse bibumbira no mu makoperative.

Umuyobozi wa banki arakangurira abibumbiye mu makoperative bose ko bagomba kugana banki bakaka inguzanyo ubundi bakiteza imbere, ibi bikaba bibafasha kubona amafaranga yo gutangiza ubuhinzi.

Koperative y'abahinzi b'inanasi yakoze inama yishimira umusaruro yagezeho ndetse itanga inanasi kuri buri muturage mu rwego rwo kuganura ku musaruro wabo.

Abaturage bibumbiye mu makoperative, ni bamwe bishimira ubufatanye bagirana n'amabanki kuko bakayo inguzanyo, bakagura ifumbire ndetse n'indi miti itandukanye, bagakora ubuhinzi bwa kijyambere, bakabona ibibatunga, bagasagurira n'amasoko.

Abacuruza utubari barasabwa kujya batanga serivisi nziza cyane cyane ku bacuruza utubari duherereye mu bice by'icyaro.

Abakora ubucuruzi bw'inzoga zisembuye ndetse n'izidasembuye, bakagira n'inyama zitunganyije neza, barasabwa kugira isuku yaba mu gikoni ndetse na ho abakiriya bicara.

Amaduka acururizwamo amagi atetse agomba kuba afite urusenda, umunyu, byifashishwa mu kurya aya magi atetse. Abakora ubu bucuruzi kandi, bavuga yuko babona inyungu n'ubwo atari nyinshi.

Abakora akazi ko gucuruza ibinyobwa bisembuye bavuga ko binjiza amafaranga menshi cyane ugereranyije n'abacuruza ibindi bicuruzwa bitandukanye.

Amaduka akora ubucuruzi bw'ibikoresho byo gucanaho bizwi ku izina rya gazi, avuga ko impamvu abaturage bataramenya gukoresha ibi bikoresho cyane, ari uko batuye mu nshe z'ibyaro.

Abakora ubucuruzi bw'ibicuruzwa bitandukanye harimo n'amavuta yo guteka ni bamwe mu bavuga ko babona umusaruro mwinshi ndetse bakabona n'inyungu mu gihe gitoya kuko ibi bikoresho byifashishwa n'abantu mu buzima bwa buri munsi.

Amaduka acuruza ibicuruzwa bitandukanye harimo isabune, amavuta yo kwisiga ndetse n'ibindi bikoresho bavuga ko babona inyungu nyinshi kandi mu gihe cya vuba kuko ibi bacuruza byifashishwa n'abantu mu buzima bwabo bwa buri munsi.

Abacuruzi bakoresha ibikoresho bitandukanye harimo inkweto zo kwambara, ni bamwe mu bishimira akazi bakora kuko ngo bakuramo inyungu nyinshi cyane kandi mu gihe gitoya, bitewe n'uko zikenerwa n'abantu benshi.

Amaduka akorera ubucuruzi ku muhanda, acuruza imyenda, agomba kuba afite ahaparikwa ibinyabiziga mu gihe umwe mu batwaye icyo kinyabiziga aje guhaha akabona aho guparika.

Abacuruzi bakora ubucuruzi bw'ibikoresho bitandukanye, harimo amasabune ndetse n'ibiryo byo kurya, ni bamwe mu bavuga ko babona inyungu mu buryo bwihuse kuko ngo ibi bacuruza, bikenerwa n'abaturage mu buzima bwabo, bwa buri munsi.

Amaduka akorerwamo ubucuruzi bw'ibinyobwa bitandukanye, harimo ibisembuye n'ibidasembuye, ni amwe muyinjiza amafaranga menshi kuko ibi byose byifashishwa n'abantu, mu buzima bwa buri munsi.

Abakiririsitu ba kiliziya Gatolika ni bamwe mu bishyirahamwe mu minsi igiye ikomeye ubundi bagafatanya gutura igitambo cya misa.

Minisiteri y'u Rwanda ikangurira abakirisitu bose ndetse n'abafite insengero kubahiriza amategeko yashyizeho agenga insengero, aha twavuga nko kugira imirindankuba, kugira aho imodoka ndetse n'ibindi binyabiziga biparikwa n'ibindi.

Insengero mu rwego rwo kurinda akajagari, leta yavuze ko urusengero rutujuje ibikurikirwa ruzajya rufungwa, abapasiteri, abapadiri ni bamwe mu bishimiye icyo cyemezo.

Urusengero rwa Nyakagando, ni rumwe mu nsengero zitarasozwa kubakwa, aho ruzaba urw'ikitegererezo, dore ko rwubatse mu buryo bugezweho kandi rufite aho guparika ibinyabiziga.

Kiliziya gaturika ishyize imbere ubukirisitu cyane aho yakanguriye buri wese guhabwa isakaramentu rya batisimu ndetse no kuba abantu bose bava mu byaha.

Abakirisitu ba kiriziya gaturika ni bamwe mu bifatanyije mu gitambo cya misa ndetse banashima imana ko ikibahagije uburame.

Ibiranga itorero rya ADPR, harimo kutanywa inzoga kugira indangagaciro za gikirisitu, gukundana, gufashanya ndetse n'ibindi.

Abakristo bo mu nsengero zitandukanye, ni bamwe mu barangwa n'urukundo, gufashanya ndetse no kwitanga. Abayobozi b'aya madini kandi barasaba abaturage gutanga amaturo kugira ngo bubake insengero zigezweho.

Amahoteri ndetse n'amaresitora ni amwe muyagira ibitaramo abantu bakaza kureba bakishyura amafaranga. Ibi bifasha abakorayo kwinjiza, kandi bagatanga amahoro ku baturage.

Abayobozi b'amahoteli ndetse n'abakozi bayakoramo barakangurirwa kugira amasuku, cyane cyane amahoteli afite amazi bogamo azwi ku izina rya pisine, bagomba kujya bahasukura kenshi cyane gashoboka.

Amahoteli ndetse n'amaresitora cyane cyane ahategurirwa ibyo kurya ndetse naho kuryama hagomba kugirirwa isuku mu rwego rwo kubungabunga ubuzima bw'umuntu ndetse no gutanga serivise inoze.

Amahoteli ndetse n'abakozi bayakoramo barasabwa kugira isuku ihagije cyane cyane mu gihe bari gutegura ibyo kurya, ikindi kandi amahoteli agomba kuba afite ubwiherero ndetse naho baparika ibinyabiziga.

Amwe mu mahoteri meza y'ikitegererezo avuga y'uko yinjiza amafaranga menshi bitewe na serivisi nziza atanga kandi ko yujuje ibisabwa biranga hoteri.

Amahoteri yakira abantu bavuye mu mahanga ndetse n'abenegihugu asabwa ko kugira isuku ndetse akagira ubwiherero bwiza akagira n'ahantu abakiriya baparika imodoka mu rwego rwo kwirinda akajagari.

Abakozi bakora mu mahoteli atandukanye barasabwa kujya bagira isuku, bakambara neza kandi bagatanga serivisi nziza inogeye buri wese ubagana.

Abakora mu mahoteli ndetse n'abayobozi bayo barakangurirwa kugira isuku ku rwego rwo hejuru mu rwego rwo kwirinda indwara. Aha barasabwa kugira ubwiherero bwiza ndetse n'amazi meza n'isabune byo gukaraba.

Amahoteli atuye ku nkengero z'amazi asabwa kubahiriza ibi bikurikira gushyira ibibuza abantu kuba bagwa muri ayo mazi, kugira isuku, kugira ubwiherero bwiza, amazi n'isabune ndetse n'ibindi.

Amahoteli agomba kuba atuye ku muhanda mu rwego rwo koroshya ingendo, kandi arasabwa kugira aho ibinyabiziga biparika mu rwego rwo kwirinda ubucucike ndetse n'impanuka.

Amahoteli atuye ku muhanda arashishikarizwa kugira isuku ndetse yaba mu bwiherero, mu bikoni no ukugira ibigega bifata amazi, kugira imyobo ijyamo amazi mabi ndetse n'ibindi.

Amahoteli arasabwa kujya agira isuku mu rwego rwo kubungabunga ubuzima bwa muntu. Ibi kandi hakiyongeraho nko kugira ubwiherero bwiza, kugira ibigega bifata amazi, ndetse n'ibindi.

Amahoteli ndetse n'amaresitora ategura ibyo kurya ndetse n'aho kuryama agomba kujya agira isuku yaba mu gikoni ndetse no mu bwiherero mu rwego rwo gutanga serivisi nziza ndetse no gushishikariza abantu babagana kugira isuku.

Amahoteri ndetse n'amaresitora atunganya ibyo kurya n'ibyo kunywa arasabwa kurangwa n'isuku yaba ku bikoresho byo kuriraho ndetse naho kuryama kugira ngo ababagana bajye bagaruka.

Amahoteli atuye ku nkengero z'amazi abagomba kwita ku bakiriya babo cyane cyane abanyweye inzoga nyinshi mu rwego rwo kubarinda ndetse no gucunga umutekano wabo.

Amahoteli arashishikarizwa kujya atanga serivisi nziza, kugira isuku, amazi meza ndetse n'isabune azajya akarabywa abakiriya, kugira ubwiherero, kugira aho guparika ibinyabiziga ndetse n'ibindi

Abakora ubucuruzi butandukanye harimo ubw'ibitoki ibikoresho byo mu rugo nk'ibyo bakoropesha ndetse n'ibindi ni bamwe mu babona inyungu zihuse kubera ko ibikoresho bikenerwa mu buzima bwacu ubwa buri munsi.

Abacuruzi bakora ubucuruzi butandukanye, harimo ubw'imboga n'imbuto, abacuruza imyenda ni bamwe mu bashimira leta ko yabubakiye isoko mu rwego rwo kwirinda akajagari ndetse n'ubucuruzi bwo mu muhanda.

Abakora ubucuruzi bw'ibicuruzwa bitandukanye harimo amafu, amasabune, amabase n'ibindi ni bamwe mu bishimira akazi bakora kuko kabamo amafaranga menshi kandi akabashimisha.

Amasoko acururizwamo ibikoresho bitandukanye byo mu rugo nk'amasahani, ibikombe, amasafuriya, amabase, teremusi ndetse n'ibindi ni amwe muyafite akamaro kuko kubona igikoresho bikoroheye.

Abacuruzi bakora ubucuruzi bw'imbuto zitandukanye ndetse n'imboga nka karoti, inyanya, intogi, ibitunguru, pawavulo n'ibindi. Ni bamwe mu bavuga yuko babona amafaranga mu buryo bworoshye kuko ibi byose byifashishwa n'abantu mu buzima bwabo bwa buri munsi.

Abacuruzi bakora ubucuruzi bugiye butandukanye bwo ku gataro bacuruza imbuto bavuga y'uko babangamiwe cyane no kubura amafaranga abakodeshereza amasoko manini.

Abacuruzi bakora ubucuruzi bw'imyenda ndetse n'inkweto ni bamwe mu bavuga ko babona amafaranga avuye muri ubu bucuruzi bwabo akabafasha gukemura ibibazo bitandukanye byo mu buzima bwabo bwa buri munsi.

Abakorera ubucuruzi ku muhanda ni bamwe mu bateza akajagari, leta y'u Rwanda ikangurira abacuruzi bose kwibumbira mu matsinda bakubakirwa isoko, bakirinda ibintu by'akajagari.

Amaresitora ndetse n'abakozi bayakoramo bagomba kugira isuku bagasukura ibikoresho mbere yo kugaburira abantu ndetse na nyuma yo kubagaburira, ibi bizafasha buri wese kugira ubuzima bwiza.

Amaresitora ahurirwamo n'abantu benshi baba baturutse ahantu hatandukanye, ni yo mpamvu abakozi bakoramo bagomba kurangwa n'isuku kandi bagatanga serivise nziza inoze.

Abayobozi b'amaresitora ndetse n'abayakoramo, barasabwa kujya barangwa n'isuku kugira amazi meza n'isabune byo gukarabyaywa ndetse no kugira amasuku mu gikoni.

Abakora akazi ko gutwara abantu mu buryo rusange ku magare barakangurirwa kujya bubahiriza amategeko yo ku muhanda bakirinda gutendeka cyangwa gutwara umuntu urenze umwe ku igare, ibi bishobora kubarinda impanuka ndetse n'ibinyabiziga byabo ntibibe byakangirika.

Abakora akazi ko gutwara abantu mu buryo bwa rusange barasabwa kujya bubahiriza amategeko y'umuhanda ndetse n'ibyapa mu rwego rwo kwirinda impanuka.

Abakora akazi ko gutwara ibicuruzwa ku magare, barasabwa kwitondera ndetse no kubahiriza amategeko y'umuhanda, mu rwego rwo kwirinda impanuka.

Abatwara ibinyabiziga bitandukanye harimo ibinyabiziga by'ingabo na bo barasabwa kubahiriza amategeko y'umuhanda mu rwego rwo kwirinda impanuka.

Abakora umurimo wo gutwara abagenzi mu buryo bwa rusange, barasabwa kujya bubahiriza amategeko y'umuhanda, kwirinda kurangara ndetse no kwambika abagenzi kasike mu rwego rwo kwirinda impanuka.

Abatwara abantu ku kinyabiziga nk'igare barasabwa kubahiriza amategeko y'umuhanda bakirinda kurangara, ibi bikabafasha kwirinda impanuka ndetse no kurinda ubuzima bwabo.

Abakora akazi ko gutwara abantu n'ibintu ku magare, barasabwa kubahiriza amategeko y'umuhanda, mu rwego rwo kwirinda impanuka ndetse zishobora kubaviramo n'urupfu.

Abakora akazi ko gutwara ibinyabiziga ndetse no gutwara abantu mu buryo bwa rusange bakoresheje moto, barakangurirwa kubahiriza amategeko y'umuhanda, bakirinda kurangara mu rwego rwo kwirinda impanuka..

Abakora akazi ko gutwara abantu ku binyabiziga bitandukanye harimo na moto barakangurirwa kubahiriza amategeko y'umuhanda, mu rwego rwo kwirinda impanuka ndetse n'impfu za hato na hato.

Abatwara ibinyabiziga bigiye bitandukanye bakoresha imihanda mikuru izwi ku izina rya kaburimbo ni bamwe mu basabwa kubahiriza amategeko y'umuhanda mu rwego rwo kwirinda impanuka.

Abatwara abagenzi n'ibintu ku magare, barasabwa kubahiriza amategeko y'umuhanda, bakirinda kurangara kandi mu gihe bagiye guhagarara, bagahagarara ahabugenewe mu rwego rwo kwirinda impanuka.

Abakora akazi ko gutwara abantu mu buryo bwa rusange bakoresheje amapikipiki, barasabwa kubahiriza amategeko y'umuhanda mu rwego rwo kwirinda impanuka.

Abakora akazi ko gutwara abantu mu buryo rusange ku mapikipiki, barakangurirwa kubahiriza amategeko y'umuhanda mu rwego rwo kwirinda impanuka ndetse no guteza ibindi bibazo bigiye bitandukanye.